Ni serivisi ikorwa mu rwanda y'ubukerarugendo guhugura abantu bakora muri parike bashobora gufasha abantu baje gukora ubukerarugendo mu rwanda.

Ni inama y'abadepite bahuriye hamwe bari kwiga ku kibazo cy'abaturage, b'igihugu icyo bakuraho, cyangwa se icyo bahindura ndetse n'icyo bakongera.

Gahunda ya Leta yo gushaka udushya nk'u Rwanda icyo bahindura icyo bakora ariko hari udushya ku buryo byagera ku isoko mpuzamahanga bikitwa ko ari u Rwanda.

Ni inama yariri kuba ifite ingingo runaka yari kwigagwaho ndetse zifitiye igihugu akamaro cyane cyane umuturage abari imbere kurusha undi muntu uwo ari we wese mu gihugu.

Ni ahantu rusange umuntu wese aza akicara, haba hemerewe kwicarwa n'umuntu wese, ariko aho hantu hakaba hari interineti cyangwa wifi kugira ngo umuturage wese uturiye aho hantu cyangwa uhageze abashe kubona interineti.

Ni igiciro rura ishyiraho kuri gaze, kugira ngo umucuruzi atarenza icyo giciro cyangwa akakijya munsi, rero ni igiciro kirengera umuguzi kugira ngo adahendwa ku isoko kuri gaze.

Serivisi ya guverinoma yo kuba umuturage wese yagira interinetE yoroshye ya kanari , kuba buri rugo rwose rwagira interinete mu buryo bworoshye kandi bugera kuri buri muntu wese.

Ni ipoto, ni umunara ufasha abantu batuye mu gace kamwe kubona amashanyarazi, cyangwa se kubona umuriro ugera mu ngo ahantu hatandukanye, ndetse hari n'amatara ari kumuhanda afasha abantu kugenda nijoro bari ahantu habona.

Ni umunara ufasha kugira ngo buri muturage wese agire umuriro mu rugo iwe, ndetse uwo munara ukaba ari we uhuriraho n'abaturage baturiye muri ako gace bose.

Ni abantu bicaye barindiriye kubona serivise ari ahantu bagiye kuyishaka noneho kugira ngo badakomeza guhagarara, bakabaha ahantu ho kwicara kugira ngo bategerereze uwo umuntu ubaha iyo serivisi.

Gavumenti yagiye ishyiraho amavuriro menshi atandukanye yo mu gihugu ndetse yashyizeho kabgayi ahantu ushobora kwivuriza amaso bakaba bakora amasaha hafi ya yose kugira ngo batange serivisi neza ku baturage.

Ni gavumenti savisi yo kuba yashyiraho purizo cyangwa se igashyira abantu ahantu hamwe, ikabagorora ikabagarura kuri disipuline bakazagaruka muri sosiyete bafite dicipuline, kubera ko baba baragiye guhabwa dispuline ntabwo ari ibihano.

Abacamanza cyangwa se abavoka bari ahantu hamwe cyangwa se bakoze bahawe impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi mu byo bize.

Ni gavumenti savisezi ifata abantu b'abayobozi cyangwa se bakora mu nzego runaka nk'abacamanza, bakarahira ko batazatatira inshingano zabo.

Iyi ni serivisi yo kuzimya ahantu hahiye mu muhanda, kugira ngo hatazagira ibindi bintu byangirika. Bazana abantu bo kuzimya iyo nkongi y'umuriro, kugira ngo umuriro ugabanuke cyangwa ushire.

Ni serivisi y'igihugu gavumenti ifasha Polise cyangwa se urwego rwa Polise kuba baborohereza mu buryo bwa transiporo mu kazi, gutaha cyangwa se kukajyamo, akaba yabona imodoka imufasha kuva ahantu hamwe ajya ahandi.

Ni gahunda ya leta yo kumenya ko ibinyabiziga biri m'umuhanda byujuje ibyangombwa cyangwa se ababitwara bujuje ibyangombwa kugirango ngo hirindwe impanuka nyinshi m'umuhanda.

Sitatiyo ya ribu i Nyamirambo ishyirwamo cyangwa se urwego rw'ubugenzacyaha bugenza ibyaha, bitandukanye babona aribyo bakabishyikiriza ubushinjacyaha.

Ni serivisi abantu bafite inzu cyane cyane zikorerwamo ubucuruzi ndetse bagashyiraho iyo kizimyamwotu ku buryo habayeho umuriro cyangwa se inkongi y'umuriro kuri iyo nzu babona uburyo bayizimya biboroheye.

Ikirango cy'ishyaka pe eli riharanira ubwishyire ukizana ubutabera n'amajyambere, bigaragara mu ishusho cya se mu kirango cyayo nk'uko yiyemeje pe eli.

Komenti yishyiraho serivisi mu buryo bwo gutora, umuntu wese aba agomba gutora ntawe umuhatira aho atora ari muri demokarasi, buri wese agatanga igitekerezo cye uko acyo.

Ingabo savisi umuryango wa FPR ndetse na ceya mani wa FPR, n'abantu bamushyigikiye bambaye ibirango biri mu nyuguti ya FPR mu mabara y'umutuku umwe ndetse n'ubururu.

Guverinoma serivisi yashyizeho bisi zitandukanye zitwara abantu mu buryo buri rusange, ndetse zikaba zigera ahantu hose buri gace kakaba gafite bisi zihagije zitwara abantu ndetse zikanabagarura kandi ku mafaranga makeya.

Gahunda Leta yo gushyiraho uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu, bava mu karere kamwe bashobora bajya mu kandi kandi ku buryo bworoshye, bagakorana na kampani zifite amamodoka mu gihugu.

Gavamenti yashyizeho serivisi yitwa urugo mbonezamirire y'abana bato rufasha abana bato kuboneza imirire, guhugura ba mama wabo, kubafasha mu buryo bw'imirire bakirinda indwara ya bwaki.

Leta yo gushyira ibyapa ku muhanda, cy'umuvuduko wa mirongo itandatu, bakakwereka ko imbere ari sipidi kamera, ishobora kuba yagufata, warengeje umuvuduko wa mirongo itandatu.

Ni icyapa bashyira mu muhanda, cyerekana ahantu ko hashobora kuba hari agasozi ahandi akaba ari mu kibaya, ndetse hagakurikiraho akandi gasozi, bakamenyesha umuyobozi w'imodoka uko ayiyobora.

Kominiti savise yo kuba bakora imihanda ijya muri karitsiye ndetse igashyiraho n'icyapa cyo ku muhanda ku buryo kimenyesha umuntu utazi aho hantu, kikamuyobora neza, kigashyiraho nimero ku muhanda ndetse no ku nzu.

Ni ahantu mu gice kimwe k'iri i Remera hari kugenda imodoka ndetse hari n'ahantu hakorera kefusi mu gice cya Remera mu Rwanda.

Gavumenti ya leta yo gutera ibiti, bigakikiza umuhanda ndetse hakabaho n'isuku yo mu muhanda, ibyo biti bigakumira amazi mu nkengero z'umuhanda, ku buryo umuhanda uba ufite isuku kandi mu buryo buryo yuzuyemo na rigore, ku buryo amazi atagera mu muhanda.